Umugabo wambaye ishati y'umukara ,n'indorerwamo z'amaso ,ndetse n'isaka kukuboko .Afite mikoro ari kuganiriza abamukurikiye, inyuma ye hateretse bafule isakaza amajwi, ndetse n'intebe z'icyatsi ariko ziticayeho abantu.

Umugore wambaye ikanzu hejuru ari igitenge hasi ari idise ufite aka ajenda mu ntoki wambaye isaha ku kuboko afite mikoro ari kuganiriza abaturage, inyuma ye handitseho ngo bikorere mu isibo, iruhande rwaho hateretse intebe ya pulastike y'umweru.

Abantu bicaye mu nama, abagore n'abagabo, abasore n'inkumi. Bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye amashati y'amaboko maremare, ay'amaboko magufi, imipira, abiteze ibitambaro, n'abicaye ku ntebe z'icyatsi. Harimo bamwe bafite amaterefone bari gufotora abahagaze imbere yabo.

Abantu barimo kubyina bishimye harimo abagore umusore ndetse n'abakecuru n'inzego z'umutekano n'inkumi, imbere y'itente igicayemo abandi bantu bari mu nzego zitandukanye.

Inama yahuje abantu bari kwiga ku ngingo zitandukanye, umukobwa w'inzobe wambaye umupira wanditseho ijambo "Imbuto foundation", arimo arabaganiriza afite mikoro, iruhande rwe hahagaze umugore wambaye ikote ndetse imbere yambayemo akantu k'umukara.

Umugore muremure ubyibushye ufite mikoro uri kuvuga, iruhande rwe hicaye umugabo wambaye ishati y'umutuku n'abandi babiri bose bicaye mu ntebe zifite umusego w'ibara ry'umutuku, imbere hari irido, ku gikuta hasize irange rya kaki.

Abantu bicaye mu nama bateze amatwi bumva ibyo bari kubwirwa, harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara n'umweru n'ishati y'amaboko maremare uri kwandika muri ajenda imuri imbere bifashe kukananwa, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye umupira w'amaboko magufi uri kureba muri telefone ndetse n'undi wambaye umupira w'umutuku, hirya hari babiri bateretse imbere kamera undi ayifite mu ntoki ndetse ku ruhande hicaye undi.

Abagabo batatu bahagaze, babiri bambaye amakoti n'amakararuvati, undi yambaye ishati, imbere yabo hadekoje idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hariho n'akabandalore kanditseho amagambo, avuga ko ari inama ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare yari yabaye.

Abagore babiri bahagaze ahantu bashyizeho ihema ry'umweru, umwe yambaye ikanzu n'inkweto z'umutuku ndetse afite mikoro mu ntoki yambaye n'amarinete afite n'akajenda. Ku ruhande hari undi wambaye umukenyero waniteye, ufite telefoni mu ntoki ndetse n'agakayi ko kwandikamo.

Abantu batandukanye bicaye mu nama imbere yabo hateretse icyo kunywa ku meza ndetse n'akajenda na telefone bya buri umwe ku ruhande inyuma hahagaze ba gafotozi bari gufata amafoto y'ibyo bari gukorera aho.

Umunyeshuri wambaye ishati y'ubururu bwerurutse na baji mu ijosi, ufite akajedamu ntoki, afite mikoro arimo arabwira abantu bitabiriye inama, abasobanurira ku bigendanye n'ingingo bari bafite kuganiraho.

Umugabo wo mu itsinda ry'intore uri kubyinira abayobozi bicaye nyuma yo gusoza inama yari yabahurije hamwe, iruhande hari abari kumukomera amashyi na bo bambaye imyenda yabugenewe igendanye n'umuco gakondo.

Abakobwa bane bambaye udupira babiri dusa, abandi kamwe k'umukara gafite amaboko maremare, undi k'amaboko magufi barahagaze, inyuma yabo hari ibiti byinshi bihahinze ku gasozi gahari.

Umuhanda w'igitaka wanyereye kubera imvura yaguye, hubatse inzu kuri uwo muhanda hari insina ndetse n'ibindi biti, hari n'amapoto akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage batuye muri ako gace.

Umugore wambaye ingofero y'akazi ndetse n'ijire y'icyatsi yanditseho ijambo REG cyangwa se ikigo gishinzwe iby'umuriro n'ingufu z'amashanyarazi, ahagaze imbere y'aho bakorera ndetseretse n'ibintu by'ibimashini byinshi.

Umugabo wambaye ingofero mu mutwe, agapfukamunwa, n'ijire y'icyatsi n'ishati y'amaboko maremare n'ipantaro, yikoze mu mufuka, akandi kaboko ari kugakoresha ku bikoresho by'umuriro w'amashanyarazi, aho arimo aragira ibyo akemura.

Abana babiri b'abahungu, bari kwambuka umuhanda ndetse n'abamotari babiri baparitse hafi aho, hari n'ibyapa bibiri ndetse hariho n'idarapo ry'igihugu, kuri iyo nyubako ndetse na anteni ya televiziyo kandi yubatse igeretse.

Umuhanda wa kaburimbo w'imodoka ebyiri, imwe igenda indigaruka ndetse n'utuyira tubiri tw'abanyamaguru, ku ruhande ni ahantu hari ibyatsi byimejeje, no ku rundi ruhande naho ni uko

Inyubako ikoreramo inzego z'ibanze za leta isize irangi ry'ubururu bwijimye hasi, hejuru ubururu bwerurutse, imbere yaho hari amabuye ndetse hari n'udupasuparume dukeya, hejuru hari igiti cyarandaranze kigera hejuru y'ibati ndetse inyuma hagaragara ko hari ikirere gisa neza cyane.

Umupaka uhuza u Rwanda na Uganda, hari ibiti bihateye imbere yaho ndetse n'ibyatsi ariho hashinzemo icyo kintu kiriho icyapa kibigaragaza, hakurya hari agasozi gatoya kariho ibiti bitari birebire cyane.

Inzu yo gukoreramo inzego z'ibanze iruzuye, isize ibara ry'icyatsi ku nzugi, ku madirishya ndetse no kantu ko hasi, hariho idaraporo ry'Igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, ku mukaba w'iyo nzu hasize irangi ry'umuhondo ndetse ifite n'amabati meza cyane, inyuma hari ibiti by'inturusu.

Abantu bo mu nzego zitandukanye, bicaranye bakurikiye inama. Ku murongo w'imbere hariho abasirikari batatu, umuyobozi ndetse n'abapolisi babiri, inyuma hicaye abandi harimo abagore n'abagabo nabo bakurikiye.

Umusore utwaye igare wambaye isengero y'umutuku ndetse n'ijire ya MTN inyuma, ari mu muhanda aratambika, inyuma ye hari inyubako nyinshi zubatse ndetse n'amatara ku muhanda.

Abayobozi batandukanye bari mu muganda harimo n'inzego z'umutekano zitandukanye abasirikare n'abadaso, bari gutema ibyatsi kugira ngo bomberere ishyamba ribashe gukomeza gukura ryisanzuye.

Mu rwego rwo kwegera abaturage no kwegereza serivisi z'umutekano, abapolisi, abasirikare n'aba dasso bifatanyije n'abaturage mu muganda, barimo barawukora, inyuma y'aho bari gukorera hahinze urutoki rwinshi cyane.

Abaturage bari mu muganda bambaye imyenda y'umukara hejuru no hasi ndetse inyuma yabo hahagaze n'abandi bari kubarebera harimo n'umusirikare uri kuvugira kuri telefoni, inyuma hari ibiti bindi ndetse n'ibihingwa n'imodoka bajemo.

Abaturage bafite amasuka bari gukora umuganda bakora umuhanda, harimo abagabo ndetse n'umugore uhetse umwana, hamwe n'inzego z'umutekano. Hirya no hino hari ibihuru byinshi ari nabyo bari gutema ndetse hakurya ni ahantu hatuye abantu ariko bake bake.

Abantu bicaye bo mu nzego zitandukanye harimo abasirikare, abapolisi abayobozi ndetse n'abaturage basanzwe, baricaye nyuma yo kuganira ku bigendanye no kwegereza ubuyobozi abaturage.

umugabo wambaye ishati y'umutuku, inyuma yarengejeho ikote, afite mikoro arahagaze ari gutanga igitekerezo, hasi hicaye bagenzi be, harimo abagore n'abagabo, inyuma hari abandi bahagaze begereye urutoki.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite mikoro wambaye na linete, arimo araganiriza abantu, inyuma ye hari umusore muremure wambaye umupira w'umweru n'ikoboyi, ndetse hari n'ikibafure kinini kiri gutuma amajwi agera ku bantu bari kure.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru bamwe bambaye inifomo y'umupira w'umweru n'ikabutura y'umuhondo abandi bambaye ubururu bwererutse hose, aho bari gukinira hari itapi y'icyatsi ndetse hirya hari amaterasi y'indinganire.

Abagore bari gukina umupira w'amaguru bamwe bambaye inifomo y'ubururu, umupira n'ikabutura ndetse n'amasogisi y'umweru n'umukara ni na godiyo, abandi bambaye umutuku hose n'amasogisi y'umutuku na godiyo z'ubururu bari gukinira ahantu hari tapi.

Abantu baje gufana umupira, harimo uwambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, undi wambaye umupira w'ikipe ndetse hicaye n'akana gatoya mo hagati ku ruhande hari papa wako, inyuma hicaye abandi nabo baje kwirebera umupira.

Abakinnyi b'ikipe yambarafomo y'umukara n'amasosi y'umweru, hagiye harimo imirongo n'ay'andi mabara, barahagaze bari kwitoza, bari kuvugana n'umutoza wabo ndetse na perezida w'ikipe, bari muri sitade bategereje ko umupira uza gutangira.

Abana batatu bari muri siporo bari gukina umupira w'amaguru umwe muri bo niwe wambaye imyenda yabugenewe umupira n'ikabutura amasogisi n'inkweto za godiyo, abandi bo bambaye bisanzwe nk'abari bagiye kuvoma.

Umugabo wambaye umupira wa siporo ndetse n'ipantaro ahagaze impande y'aho abandi bakinnyi bari gukinira umupira w'amaguru mu kibuga. Haruguru hari amaterasi arimo ibyatsi bigufi ndetse haruguru yaho cyane hari ibiti bitatu ndetse n'ibindi bibiri bitegeranye neza.

Abantu bari muri siporo, harimo abambaye ibite bituku hejuru, uw'umweru, abambaye amakabutura cyangwa se imipira y'umuhondo n'amasengeri, barimo barakora siporo, inyuma yabo hari n'abandi benshi barimo n'abana.

Umukinnyi wambaye umupira wanditseho nimero itandatu, ikabutura ndetse n'amasogisi y'ubururu bwijimye, ahagaze mu kibuga iruhande rw'umurongo, hariru umugabo w'umutoza wabo wambaye ishati y'amaboko maremare ipantaro y'umukara ndetse na fime zijimye.

Umusore uri mu kibuga wambaye imyenda y'umupira ndetse n'ikabutura n'amasosi maremare n'inkweto, hirya hari izamu, inyuma yaryo hari ibiti ndetse n'ibyatsi bihateye hasi, inyuma hari inzu y'urusengero ndetse n'ayandi mazu atuyemo abaturage.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu n'inkweto, ari gutambika mu muhanda mu kayira k'abagenzi, iruhande rwe hari ubusitani burimo ibyatsi bya pasiparume, wigiye imbere gato hubatse urugo, hari amafoto ku muhanda ndetse n'abandi bantu bari gutambika.

Agahanda gato k'ahantu mu cyaro kari mu ishyamba, ku ruhande rwo hirya hari ibihuru urwo hino na ho hari ibiti by'ishyamba, hari gucamo abagore babiri batambika umwe afite igikapu undi ni akamareti, bambaye ibitenge bombi.

Akayira k'ahantu mu cyaro kari hagati y'ibyatsi n'ibindi, hirya harimo uduti tugiye duteye ari kamwe kamwe ndetse n'ikindi ubona ko gifite amababi menshi, harimo n'umuntu uri gutambika akomeza ajya hirya.

Umunyonzi uri mu muhanda uhetse amakazi y'inzoga, ari gutambika hirya hari abandi bagenzi bari kugenda ndetse n'umumotari utwaye umuntu, hino hari umusekirite ndetse haparitse n'imodoka hirya yaho hari umwajenti wicaye mu mutaka wa MTN.